Umuguzi, umucuruzi, akabati kimbaho, amacupa arimo imiti y'ubwoko bwinshi, intebe, ameza, teremusi, amafaranga, amasahani.

Inyubako y'ubucuruzi, imyenda, icyapa kiranga, ingazi, umuryango, inkingi z'inzu, ibiti.

Intebe zo mu ruganiriro, imisego y'intebe, ibishushanyo, ameza, umusambi wa kizungu, amakaro, akabati.

Inyubako y'amagorofa isakajwe amategura, ubusitani, umuntu, ibikoresho by'ibumba baterekamo indabyo, imitaka, ibiti, itara, intebe, umureko.

Icyumba cyo kuraramo, igitanda, amashuka, ubiringiti, imisego, irido ry'umunsi, irido ry'ijoro, idirishya, itara, inkoni y'irido.